Umukangurambaga mu gutanga amaraso, ari kuganiriza umubyeyi amubwira ku byiza byo gutanga amaraso. Bahagaze imbere y'inyubako iteye karabasasu, ifite n'umureko.

Abayobozi baifashe competer mu ntoki, hiryayabo hari amakarito, hari n'izindi computer, bahagaze imbere y'ibitaro bari gufata ifoto.

Ubutabazi bw'ibanze buri gukorerwa umuntu uri mu kagare, afite abantu bambaye imyenda y'umweru bari kumusunika, bashaka kumwinjira muri ambiranse, inyuma yaho hari abasirikare n'abaganga batatu.

Aho batangira amaraso afasha indembe, hari umukangurambaga mu gutanga amaraso ari gusinya ku rupapuro basinyaho mbere yo gutanga amaraso, hari ibitanda baryamishaho umuntu uri gutanga amaraso ndetse hari n'abayafata bari gutegura ibikoresho.

Abaforomo babiri bambaye ibisashi by'umweru binanuyeho imirongo bateruye burankali iryamyeho umurwayi, bari kwinjira mu bitaro bamushyira muganga.

Ivuriro ririho abantu batatu bambaye imyenda y'umweru iporotegitinga umubiri wabo, bari gukora ubutabazi bw'ibanze basunika umuntu umurwayi mu kagare wananiwe kugera mu modoka kugira ngo bamwinjizemo bamujyane ku bitaro bikuru.

Abakangurambaga mu gutanga amaraso bahuriye hamwe aho bafatira amahugurwa muri sale nimero ya mbere, bahagaze hanze bari gufata ifoto, bose bambaye amajile agaragaza ko ari abakangurambaga bo gutanga amaraso.

Ubutabazi bw'ibanze hari abantu bafite gaze imbere yabo, hari n'abandi babiri bazanye ikizimyamwoto bari guhuhuha, umuriro wari watse mwinshi cyane, bari kuzimya bakoresheje kizimyamwoto abandi bantu bari kureba uko bari kubikora.

Abakangurambaga mu gutanga amaraso bateraniye hamwe bari mu mahugurwa bigishwa byinshi ku bijyanye no gutanga amaraso buri wese afite amazi ari kunywa barakurikiye bari kumva ibyo babigisha.

Umukangurambaga mu gutanga amaraso ari kugerageza gufasha umugore wagushije akaboko akavunika ari kumuha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo bibe bimufashije kubona uko atwara akaboko.

Umurwayi uryamye ku gitanda kwa muganga w'umusore, imbere ye hari icupa ry'amazi, yambaye selumu mu kaboko, inyuma ye hari umuganga uri kumukoraho.

Abadamu bari mu bitaro babyaye bamwe bafite abaje guterura uduhinja, abandi baricaye bari kubareba hari abaryamye bananiwe ibitaro birimo supanete birimo n'ibitanda bikomeye.

Ibitaro byiza bya kijyambere, bifite isuku, bifite ibikoresho bihagije, bifite ibitanda biriho n'amapine ushaka gusunikaho umurwayi, bifite n'aho ashaka kurambika amaboko mu gihe ananiwe, naho ushyira serumu.

Umurwayi uryamye mu bitaro ku gitanda, yambaye serumu hari umuganga wambaye akantu gapima uko umutima utera ari kumupima, bigaragara ko uyu murwayi arembye cyane.

Umurwayi wumugabo uri mu bitaro yicaye ku buriri,, yambaye serumu mu kaboko hari abaganga bane imbere ye, umuforomo umwe wambaye imyenda y'ubururu, umuganga ari gusoma mukaye ngo arebe imiti amwandikira.

Amarembo agana mu bitaro bikuru bya Kigeme, ibitaro bikuru biri hejuru y'umuhanda, bigaragiwe na giriyage n'indabo, hagati hanyuzo umuhanda wamabuye, munsi haciye umuhanda wa kaburimbo, munsi yaho hatuwe n'abantu.

Umuganga w'umudamu uri kwita ku barwayi afite abarwayi babiri yakiriye amaze kubafata amaraso, imbere ye hari ako bafatiraho amaraso ya malariya afite na marikeri ari kwandikaho kuri tesite bafatiraho amaraso.

Abarwayi baje kwisuzumisha kwa muganga harimo abarembye, harimo n'uwo bafatiye amaraso ufite igituko ku kaboko, harimo abo ubona ko bagifite akabaraga, hari n'abarembye bikabije cyane.

Inama y'abayobozi batandukanye, bateraniye hamwe, bari kwita ku kibazo cy'abaturage, buri wese yambaye baji, higanjemo igitsina gore n'igitsina gabo.

Ibitaro birimo umurwayi w'umupapa wicaye ku buriri, yitwikirije igitenge yampaye serumu mu kaboko, impande ye hahagaze umuganga uri kureba mu gitabo ari kumwe n'umuforomo w'umukobwa.

Ibitaro bir'impande y'umuhanda biparitsemo imodoka y'ambilansi mo hagati itwara indembe, harimo n'icyapa mo hagati imbere y'iyo modoka byubatse ku buryo biteganye hari amazu ari inyuma afite amabati y'ubururu hamwe n'ar'imbere ateye irangi ry'umuhondo.

Abaturage bari kumwe n'abajyanama b'ubuzima na muganga bakakoranye inama bari no kubashyira muri mashini.

Kwa muganga hari meza ariho mashine Kompiyuta bashyiramo abarwayi n'imyirondoro yabo, hari imashini ipima umuvuduko w'umuntu uko amaraso ari gutembera mu mubiri hari n'icyapa kimanitse gisobanura amabwiriza y'ibitaro bigenderaho.

Ikigo nderabuzima kiriho abana n'ababyeyi babo harimo n'abaganga bari gukina n'aba bana bari guterera utubaro hejuru abana bakatwirukaho hari n'utugare hari uturimo abarwayi hari n'ututarimo abarwayi.

Ivuriro rihagazeho abaganga babiri bambaye amatabura y'umweru n'abajyanama b'ubuzima bambaye amatabura ya bureseli, bari kumwe n'abarwayi babiri uw'umugabo n'umumama uhetse umwana, bafite ameza ariho isahani n'amacupa arimo imiti ndetse n'amafishi yo kudoga.

Urubyiruko ruri muri kaburimbo rurangajwe imbere n'abasore babiri bafashe ishusho yanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu ibitaro bya Nyagatare, inyuma y'abo bantu hari imodoka ya Ambulance n'izindi zitandukanye.

Umuganga wambaye ga mu ntoki, ufite agashinge bafatisha amaraso, afashe ikiganza cy'umurwayi mu ntoki, agiye kumufata amaraso ya malariya.

Umuganga ukora muri labaratwari, ari gushyira amaserumo ku murongo, hejuru y'akabati, hari akabati karimo amatesite ya parasitike hari n'ako hejuru karimo tesite z'icyuma impande ye hari firigo.

Laburatwari, yubakiye neza cyane, ifite irangi ryiza, imbere yayo hari abantu bane, harimo umukobwa umwe, abagabo babiri n'umwana umwe w'umusore, baje gutanga amaraso.

Abaganga batatu bari kumwe harimo umukobwa umwe n'abagabo babiri bakora muri laboratwari, bafite tesite zipima amaraso, bafite n'ishusho imbere yabo igaragaza ko bapima n'impyiko n'ibindi bitandukanye.

Muganga ukora muri laboratwari ufite uduteste dupima sida imbere ye, afitemo uturimo amaraso ari gupima, yambaye ga z'ubururu, imbere ye hari indobo yo kujugunyamo imyanda.

Umubyeyi w'umumama wabyaye, wicaye ku gitanda ateruye agahinja, imbere ye hari akabati karimo ibyo bamuzaniye, harimo agacupa karimo ji n'igikombe n'isahani y'ibiryo.

Abajyanama b'ubuzima bari gupima uburebure bw'umwana, bamuryamishije ku rubaho bakoresha bapima na mama we ari kubafasha.

Umuturage ku isonga bari mu nama berekana ko bishimiye imibereho myiza y'abaturage bazamura akaboko, bavuga ko babari inyuma babashyigikiye kandi byose bazabigeraho, n'abaturage b'igihugu.

Abaturage biganjemo abamamama n'abagabo bakeya n'utwana dukeya bakoraniye hamwe bari mu nama, mbere yabo hahagaze umuyobozi w'Umudugudu wabo ari kubaganiriza.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu yubatse mu buryo bw'ishuri, imbere yayo hari ikigega cy'amazi hanze hari jaride itarakura, inyuma yayo hari ibiti birebire bidakoze ishyamba.

Ababyeyi b'aba mama bari kumwe n'abagabo harimo n'abayobozi babo, bahagaze hanze y'ishuri bari kumwe n'utwana dutoya, hejuru hari icyapa cyanditseho Matimba korosi boda, ECD center.

Inama yahuje abajyanama b'ubuhinzi, hari abahagaze mu itente, hari n'abasohotse hanze yaryo bari kubyina, bose bambaye imipira y'icyatsi, ku ruhande hari n'ishusho igaragaza ibikorwa byabo.

Inama y'abayobozi batandukanye bicaye mu itente ku ruhande hari abitwikiriye umutaka batari mu itente, imbere yabo bahagaze umuyobozi uri kubigisha, ku ruhande rw'ibumoso hicaye umupolisi w'umumama.

Abantu bari mu mahugurwa buri wese afite n'amazi imbere ye, amwicira icyaka bafite n'abantu mbere, bari kubahugura, gusa buri wese afite igipfuko ahantu hatandukanye.

Umuganga ahagaze mu biro bye ari kwifotoza yavuye ku ntebe, inyuma ye hari ameza ariho mashine akoreramo, hari na porotoforiyo irimo amadokima ye, hari n'akabati karimo dokima nyinshi zitandukanye z'ibi bitaro, apfutse agatoki bigaragara ko ashobora kuba yijombye.

Abaganga babiri umugabo n'umugore, bambaye amataburiya y'umweru bari kuganiriza umurwayi w'umumama, bafite ifishe mu ntoki, bari kujya buzuzaho ibyo ababwiye.

Urubyiruko rugizwe n'abakobwa bane n'umusore umwe bafite urupapuro mu ntoki bari gusoma bafite udupapuro twanditse ku myenda yabo twanditseho amazina yabo.

Farumasi y'abantu ihagazemo umuganga utanga imiti, iyi miti yiganjemo imiti bisiga ku ruhu rwangiritse, imiti yo kunywa ndetse harimo n'ibinini banywa.

Ibinini bikungahaye kuri minero baha amatungo nk'inka, ihene, intamama, inkoko, ingurube, zikabifasha kubyongerera minero mu mubiri ikomeza amagufa n'ibindi.

Farumasi yiganjemo imiti myinshi ivura indwara z'abantu, harimo ibinini, harimo imiti yo mu rushing, harimo imiti yo kunywa, harimo n'iyo kwisiga.

Icyapa kigaragaza ko hari imiti y'amatungo yose n'ibikoresho bikoreshwa mu matungo harimo amarozwari bifashisha batera imiti bagaragaza n'amatungo bafitiye imiti nk'inka, imbwa, ingurube, ihene n'inkoko.

Farumasi ya Iraguha irimo umubyeyi waje kugura imiti ahetse umwana ari kumwe n'undi mu ntoki, hari n'abandi ba mama babiri bari kugura imiti, harimo umuntu umwe uri gucuruza imiti, n'umumotari uparitse imbere yayo utegereje umugenzi urimo hano uri kugura imiti.

Farumasi irimo imiti myinshi y'amoko atandukanye, irimo umuganga uri kuyishyira ku murongo, iri mu byiciro bitatu, hari ibinini ukwabyo, imiti yo mu rushinge ukwayo ndetse n'iyo banywa iy'amazi ukwayo.

Farumasi irimo imiti y'abantu itandukanye, harimo iyo bisiga ku ruhu, iyo banywa, iyo batera mu rushinge ndetse n'ibinini bimwe by'inzoka, harimo iya Malariya n'indi ivura izindi ndwara.

Ababyeyi batatu harimo babiri bambaye imipira y'imyeru umwe wambaye linete n'undi mu mama wambaye ikanzu y'igitenge bafashe icyapa mu ntoki cyamamaza.

Amahugurwa y'abayobozi batandukanye, bicaye bari guhugurwa n'umugabo ubari imbere, hari n'ishusho iriho ibisobanuro by'amahugurwa, buri wese afite amazi imbere ye, hari nabafite computer, n'abatazifite bari gukoresha amakaye n'amakaramu.

Urubyiruko ruhagaze mu kibuga rwiganjemo igitsina gabo n'igitsina gore bari imbere y'ishusho igaragaza kwirinda bakoresheje udukingirizo.

Abasore babiri bambaye imipira y'umuhondo, bafite ishusho igaragaza ko ari uruhare rwa buri wese gukumira no kurwanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, n'inda ziterwa abangavu, n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inama y'abaturage bari kuganira ku cyorezo cya malariya, gikunda gufata abaturage cyane cyane gikwirakwijwe n'imibu.

KIcyapa cyamamaza ikinyingirwa ry'imbwa, kiriho abaveterineri bafite imbwa mu ntoki, bambaye ga barigutera urushinge imbwa.

Abakorerabushake bagenda batera imiti yica imibu irwanya Malariya mu nzu z'abaturage, bicaye hamwe bari kuruhuka bavuye mu kazi ko gutera imiti y'imibu munzi z'abaturage.

Abamama babiri bari gukora umuti wa kinyarwanda bakora mu byatsi, umwe afite umubirikira n'akayunguruzo, undi ari kudaha asukamo, bakayungururira mu isafuriya.

Abantu babiri bari gukora umuti wa kinyarwanda umwe afite umubirikira n'akayunguruzo, undi ari kudaha asuka muri ako kayunguruzo akayungurura bigwa mu isafuriya.

Inzu irimo amoko menshi y'imiti ya kinyarwanda atandukanye. Harimo udutete turimo ibikoze nk'ibijumba bahekenya. Harimo uducupa turimo imiti yo kunywa y'amazi. Hejuru yayo hari ibisashi bifunze biriho n'amafoto y'abantu.

Igiti gikozwe mu bwoko bw'intoryi cyera imbuto zitwa inkarisha zikunda gukoreshwa n'abakecuru n'abasaza kuko ziba zishaririye zikunda gukoreshwa cyane n'abantu bafite iseseme ndetse zikenerwa cyane ku gitsina gore.

Umusaza uhagaze mu gihuru, yambaye umupira w'umweru wa rakosite, uriho utubara tw'umukara, ari kwaha imiti ya kinyarwanda mu gihuru.

Imiti ya kinyarwanda ikoreshwa mu kuvura indwara zananiranye n'iz'amarozi harimo imiti y'ifu bavanga n'amazi, harimo n'imiti yo kunywa imeze nk'ikivuguto.

Imiti itandukanye iteretse ku meza, ikomoka ku bihingwa, bayishyize ku dusahane kuko buri mu muti utandukanye n'undi baciye indabo zayo ku buryo umuntu akeneye kuyihinga yahinga izi ndabo zayo zikamera.

Etajeri irimo imiti ya kinyarwanda itandukanye, ikomoka ku byatsi, iri mu macupa atandukanye, harimo amaremare arimo imiti y'amazi, n'amagufi arimo imiti y'ifu isa'icyatsi ifite n'ibyapa bisobanura uko ikoreshwa.

Ibikoresho byo kwa muganga bifashisha bafata amaraso n'udufishi two kuzuza, harimo inshinge bakoresha bafata amaraso, harimo ibikoresho bifata umuriro.

Imiti y'ubwoko butandukanye ya kinyarwanda, iri hamwe hari iri mu dutebo, hari iri mu mudufuka, hari iri mu isashi, hari n'iri mu ducupa y'amazi yo kunywa, hari n'imeze nk'ibijumba yo guhekenya.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa birimo igipima uko umutima utera, harimo umukasi bakatisha, harimo serenge n'urushinge bavomesha amaraso, n'isaha birambitse kumeza.

Abajyanama b'ubuzima bari kumwe na muganga ubafasha n'abaturage bari gufata amafunguro basangira bigaragara ko ari nk'umuhuro bakoze.

icyapa kimanitse ku nzu hejuru, inzu icururizwamo imiti y'amatungo, kiriho arozwari bakoresha buhira inka, hariho inka, imbwa, ingurube, ihene n'inkoko, bagaragaza ko imiti y'a matungo yose bayifite.

Inyubako ya girubuzima iriho abantu bicaye hanze, hari n'undi musore uhagaze mu idirishya ariko kuvugisha umuntu urimo imbere; hanze hababa kandagirukarabe imbere y'amaryango bacaho bakabanza gukaraba mbere yo kwinjira.

Umuganga wambaye ga ari kumwe n'umurwayi waje kwivuza ari kumureba nabi bigaragara ko atamuhaye serivisi nziza, hejuru y'umurwayi hari supanete, umurwayi yicaye ku gitanda mu bitaro.

Farumasi y'imiti y'amatungo ishushanyijeho icyapa hejuru kigaragaza ko bavura amatungo yose, bagira n'ibikoresho byose bikoreshwa mu kuvura indwara z'amatungo imiryango irafunguye.

ikigo nderabuzima cyicayemo ababyeyi b'abapapa batatu, n'umumama umwe ufite n'umwana, imbere ye hicaye umuganga wambaye itebura y'ubururu, ari kumusinyira ku gafishi.

Abaturage bari mu muhanda, bari kumwe n'umuganga, ari kujya afata umuriro umwe umwe akabapima ko batarwaye, inyuma yabo hari umupolisi uri kujya aboruganiza ku murongo.

Icyapa gishushanyijeho inzu imodoka ya Ambulance cyanditseho impeshakurama cyubakiye n'amakaro, giteretse muri jaride impande y'umuhanda y'igitaka.